Inzu zicuruzwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ni byiza cyane, kuko bituma urubyiruko tubona akazi, ndetse tukabona n'uburyo twihangira imirimo bitatugoye.

Ni ngombwa ko mu kabari haba harimo ibinyobwa bitandukanye yaba ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, kugira ngo buri mukiriye azisanzure mu gihe yaje gufata icyo kunywa.

Ni byiza ko iduka riba rifite ibicuruzwa bitandukanye, kugira ngo umukiriya naza, azabashe kugura icyo abona gihari biramworohera cyane.

Butike ifite akamaro kanini kuri twebwe, bityo rero abayikoresha bagomba gufu guha abakiriye serivisi nziza nko kumanika icyapa cy'ibyo ucuruza ,kugira ngo baze bagana bashaka n'ibyo bacuruza babizi neza.

Ni byiza ko kuri botiki yawe wandikaho ibijyanye n'ibyo ucuruza na aderese, kugira ngo umuntu uzaza guhaha azaze asoma bya bintu ufite.

Ni ngombwa ko mu gihe ufite akabari, ugomba kwandikaho ibintu bitandukanye ucuruza, kugira ngo utandukane n'ufite butike, cyangwa ibindi acuruza.

Ni byiza ko mu gihe ufite ibikorwa by'ubucuruzi ugomba gushyiraho ikirango kigaragaza ibyo ukora, ndetse no gutanga serivisi neza, kugira ngo abaturage bazaze.

Ni byiza ko mu gihe ucuruza ibicuruzwa byawe, ushyiraho ikirango kigaragaza ibyo ucuruza, kugira ngo umuturage azaze kugura bimworoheye.

Butike aha ahantu igomba kuba iri, hagomba kuba hari icyapa kigaragaza ko iyo butike ihari ndetse n'ibyo icuruza, kuko hari igihe iba iri ku muhanda, aho abashoferi batemerewe guparika cyangwa abamotari, cyangwa abanyonzi, bikaba ngombwa ko wamuhereza akantu yabonye wirukanka.

Butike igomba kuba ifite ikirango cy'ibyo icuruza, kugira ngo umukiriya naza bizamworohere kugura icyo ashaka, kubera ko azaba yasomye ibirimo.

Si byiza ko iduka ryawe uryubaka mu rugo ndani kuko bituma abakiriya bagira ipfunwe ryo kuza guhaha kandi ntibamenye n'aho riherereye. Iduka rigomba kujya ku muhanda aho buri wese azabona ibyo ashaka bimworoheye, kugira ngo nawe bikorohere gukora ,si ngombwa gukorera mu rugo.

Ni byiza ko kuri butike yawe, wandikaho ibintu ukora birimo, kugira ngo uzaza akugana aje guhaha, bizamworohere kumenya ibyo ahaha.

Iduka rifite akamaro kanini cyane ku muturage, kuko aboneramo ibikoresho bitandukanye harimo ibyo kubaka, ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye, kandi bitanga akazi ku rubyiruko.

Ni byiza ko aho dukorera hari amaduka hagomba kuba hafite isuku kugira ngo umuntu uzaza atugana azabone ko hasa neza, ndetse hatangwa na serivisi nziza.

Abacuruzi bacururiza mu isoko rya kijyambere ni ngombwa ko bashyira ikirango ku bicuruzwa byabo kugira ngo uje abagana amenye aho abariza.

Abantu baje mu isoko guhaha ibintu igihe bitandukanye, ni ngombwa ko umucuruzi ukorera mu isoko aba afite ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo umukiriya agende yishimye.

Isoko rigezweho ni iricuruza ibintu by'abantu bagiye batandukanye kandi byiza, bifite umwihariko w'ubwiza n'imitako myiza.

Urujya n'uruza rw'abacuruzi baje gushaka amafaranga mu isoko bacuruza ibintu bigiye bitandukanye urugero: pavuro, amafi, umunyu, amavuta, ibirayi ,ibitoki ndetse n'ibindi kugira ngo buri muturage uraza agira icyo ashaka mu isoko bimworohere.

Ni byiza ko mu gihe tugiye kugura ibikoresho ku isoko tuba tugomba kumenya icyo bikora, kandi tukibuka kureba igihe icyo gikoresho cyakorewe n'igihe kizarangirira, kugira ngo bibashe gukora neza.